Inyubako nini icururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi bakaba bayitera mu myaka kugira yongere umusaruro ndetse n'ibihingwa bimere neza ikababa ari imiti yujuje ubuziranenge kandi yizewe.

Inyubako nini nziza, icururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi, aho harimo umuntu arimo gucuruza iyo miti, akaba ari imiti yizewe kandi yujuje ubuziranenge. Ikaba ikoreshwa mu buhinzi kugira ngo hongerwe umusaruro.

Urujya n'urubuza rw'abantu benshi, barimo abagabo n'abagore ndetse n'abakobwa bakaba bari mu murima uhinzwemo ibigori, bakaba bari gushyiraho ifumbire, kugira ngo bazabone umusaruro uhagije.

Inyubako icuruzwamo imiti, yifashishwa, mu buhinzi. Aho iterwa mu myaka, kugira ngo yice udukoko, bityo umusaruro wiyongere. Aba ari imiti y'ubuziranenge, kandi yizewe.

Umurima munini uhinzwemo ibigori hakaba urimo abantu benshi ubonako bari gutera ifumbire ku bigori kugira ngo bikure neza maze bizanatange umusaruro uhagije.

Umugabo arimo gutera umuti mu mbuto ziwe, ukoresheje umuti wabugenewe, kugira ngo azabone umusaruro uhagije, bityo iterambere rikomeze kwiyongera.

Inyubako icururizwamo imiti yifashishwa havurwa amatungo, ikaba ari imiti myiza ndetse yujuje ubuziranenge.

Inyubako icururizwamo imiti ikoreshwa mu buhinzi, kugira ngo imyaka imere neza, ndetse n'amatungo akure neza, akaba ari imiti yujuje ubuziranenge kandi ikora neza.

Inyubako icururizwamo imiti, yifashishwa mu buhinzi, aho ikoreshwa kugira ngo yongere umusaruro, ikaba ari imiti ikozwe neza ndetse yuyuje ubuziranenge.

Inyubako icururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, ikaba ari imiti ifasha imyaka mu gukura neza, ndetse ikazatanga n'umusaruro uhagije, ikaba ari imiti yujuje ubuziranenge ndetse yemewe.

Inyubako icururizwamo imiti, akaba ari imiti ikora neza ndetse yujuje ubuziranenge, aho iterwa mu myaka kugira ngo bongere umusaruro.

Umurima uhinzwemo imyaka ndetse hakaba hari n'ifumbire igiye guterwa kuri iyo myaka kugira ngo umusaruro wiyongere ndetse n'imyaka ikure neza.

Imifuka irimo ifumbire izwi nka dapu yifashishwa mu buhinzi kugira ngo hiyongere umusaruro. Ni byiza wo gukoresha iyi fumbire kubera ko ari ingirakamaro mu buhinzi.

Inyubako icururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi, aho ikoreshwa mu myaka kugira ngo bongere umusaruro. Akaba ari imiti ikora neza ndetse yujuje ubuziranenge.

Inyubako nini icuururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi, aho harimo umuntu urimo gucuruza iyo miti, ikaba ari imiti ikora neza ndetse yujuje ubuziranenge.

Amoko y'imiti itandukanye ikozwe mu byatsi bizwi nka gakongo. Ikaba ahari imiti yifashishwa mu buhinzi, ikaba iterwa mu myaka kugira ngo yice udukoko tumwe na tumwe maze umusaruro ukomeze kwiyongera.

Umurima munini uhinzwemo igihingwa kizwi nk'igihingwa ngandurarugo ari cyo kawa, akaba ari ikawa imeze neza ubona ko itanga umusaruro mwinshi, ndetse ukanazamura ubukungu mu baturage.

Umurima ufumbiwemo ikawa, ubona ko zimeze neza ndetse bakaba banazitayeho kugira ngo zizagemurwe ziterwe bityo zizatange umusaruro uhagije.

Umurima uhinzwemo ibihingwa bizwi nk'ibihingwa ngandurarugo ari byo bigori, akaba ari umurima munini ubona ko weza ibigori byinshi ndetse ukanatanga umusaruro uhagije.

Umurima munini uhinzwemo imbogeri ubona ko zimeze neza ndetse zikaba zarashyizweho ifumbire kugira ngo umusaruro wiyongere, ni byiza gutera ifumbire ku myaka yacu kubera ko ni ingirakamaro.

Umurima munini uhinzwemo ibigori ndetse n'ibishyimbo, ukaba ubona ko bimeza neza byatewe ifumbire ihagije, bityo bakaba bazakuramo umusaruro uhagije.

Umurima munini uhinzwemo imyaka ndetse hakaba harimo n'amaterasi yifashishwa kugira ngo hirindwe isuri bityo imyaka yere neza. Ni byiza guca amaterasi mu mirima yacu kugira ngo turwanye isuri.

Umurima munini wahinzwemo inguzi. Akaba ari inguzi zimeze neza, ubona ko zitaweho ndetse zigashyirwamo n'ifumbire, kugira ngo zikure neza.

Umurima munini uhinzwemo ibihingwa bizwi nka kawa ndetse akaba harimo n'ibitoki, byose bikaba byitabwaho neza bakoresheje ifumbire yabugenewe kugira ngo bongere umusaruro.

Umurima uhinzemo amashu ndetse hakaba harimo n'umugabo urimo kureba ukuntu amashu ameze, ndetse akaba yarashyizemo n'ifumbire kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Umupapa uri kumwe n'umubyeyi, barimo kureba uko ibinyomoro bimeze, ndetse ubona ko bishimye, bishimiye umusaruro wabo kubera gukoresha ifumbire ryiza. Bityo bakaba bagiye gukuramo umusaruro mwinshi.

Amoko y'imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara, ndetse ikaba ikoreshwa havurwa amatungo, kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse itange umusaruro uhagije.

Umuti ukoreshwa mu buhinzi, mu myaka, kugira ngo imyaka imere neza, ndetse itange n'umusaruro uhagije. Ukaba ari umuti wujuje ubuziranenge kandi ukora neza.

Ubwoko bw'umuti bukoreshwa mu gihe babutera mu myaka kugira ngo imyaka ikure neza ndetse itange n'umusaruro uhagije, ukaba umuti ukozwe neza mbe wujuje ubuziranenge.

Amoko y'imiti itandukanye ikozwe mu byatsi ikaba ari yifashishwa mu buhinzi ikaba iterwa mu myaka kugira ngo yice udukoko tumwe na tumwe tuba twagiye mu myaka maze umusaruro ukomeze kwiyongera, ikaba ari imiti ukoze neza ndetse yujuje ubuziranenge.

Umugabo arimo guhinga mu murima kugira ngo azashyiremo imbuto ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, bityo bizamwongerere umusaruro akomeze kubaho ubuzima bwiza.

Umuhinzi w'umugabo arimo kuyobora ifumbire; agiyeye kuyikoresha mu murima atera imyaka kugira ngo azasarure umusaruro uhagije bityo abeho neza.

Umurima munini uhinzemo imbuto, harimo umugabo ubona ko arimo arasasira urwo rubuto ndetse anashyiraho ifumbire kugira ngo zizongere umusaruro, maze ubukungu bukomeze kwiyongera.

Urujya n'uruza rwa'bantu barimo abagabo, abasore ndetse n'abagore, barimo guhinga umurima kugira ngo batemure neza maze uzashyirwemo imyaka.

Umurima munini uhinzwemo imbuto, hakaba harimo umubyeyi ubona ko ari gushyira ifumbire ku mbuto yahinze kugira ngo zikore neza ndetse zizanatange umusaruro, ni byiza gutera ifumbire nyuma y'uko utera imyaka ndetse ukanayishyiraho imyaka imaze gukura, bityo umusaruro ukiyongera.

Umurima uhinzwemo ibigori n'ibitoki, hakaba harimo abagabo babiri bafite amasuka bari guhinga muri uwo murima kugira ngo bawukorere neza bityo umusaruro uziyongere.

Umurima munini wahinzwemo imyumbati akaba ari imyumbati myiza ubona ko yashyizweho ifumbire ihagije ndetse ikaba izatanga umusaruro uhagije.

Inyubako icururizwamo ifumbire yifashishwa mu buhinzi, aho ihabwa abaturage kugira ngo bayishyire mu myaka maze babone umusaruro uhagije, ikaba ari ifumbire nziza ndetse yujuje ubuziranenge.

Inyubako nini, icururizwamo ifumbire yifashishwa mu buhinzi, aho abaturage baza kuyigura kugira ngo bayishyire mu buhinzi bityo bongere umusaruro.

Inyubako icururizwamo ifumbire yifashishwa mu buhinzi kugira ngo hongerwe umusaruro, bityo ubukungu nabwo bwiyongere. Ni byiza gukoresha ifumbire mu gihe wahinze imyaka kubera ko byongera umusaruro.

Inyubako icurizwamo ifumbire y'amoko atandukanye yifashishwa mu buhinzi, aho bayitera mu myaka kugira ngo imyaka imere neza ndetse n'umusaruro wiyongere.

Umurima uhinzwemo inyanya ubona ko zimeze neza ndetse zikaba zarashyizweho ifumbire, hakaba harimo umugabo urimo kuzibagarira kugira ngo zikomeze gukura neza, maze zizatange umusaruro uhagije.

Umurima munini uhinzwemo ibyatsi byifashishwa hakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo, ukora neza kandi ukavura, ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi.

Umurima munini uhinzwemo amashusho ndetse n'ibiti, akaba ari amashusho ameze neza, bigaragara ko yateweho ifumbire, bityo umusaruro ukaziyongera, ubukungu bugakomeza kwaguka.

Umurima uhinzemo ibiti byinshi bitandukanye, akaba ari ibiti bimeze neza ndetse ubona byanakifashishwa mu gihe bagiye kubaka, bityo akaba ari ingirakamaro ku bantu bose.

Umurima uteyemo igihingwa kizwi nka voka, urabona ko kimeze neza ndetse cyashyizweho ifumbire kugira ngo umusaruro wiyongere.

Umurima munini uhinzwemo urutoki ndetse hakaba harimo n'igiti cya avoka, ubona ko bimeze neza byateweho ifumbire bityo bikazatanga umusaruro uhagije.

Umugabo uri mu murima wiwe, arimo arasoroma ibinyomoro, aho agiye kubijyana ku isoko kugira ngo ahabwe amafaranga ndetse binamwongerere ubukungu.

Isoko ricururizwamo imbuto harimo imyembe, imipira ndetse n'ibinyomoro, ukaba ubona ko bimeze neza byahinzwe neza ndetse bigashyirwaho n'ifumbire, bityo bikaba bitanze umusaruro uhagije.

Umurima munini uhinzwemo ibihingwa byifashishwa mu rugo ndetse bikanagurishwa kugira ngo bitange umusaruro uhagije bityo abaturage bakomeza kubaho neza ntanzara ibica.

Umurima munini uhinzwemo karoti, ubona ko zimeze neza zikaba zarashyizweho ifumbire kugira ngo byongere umusaruro.

Umubyeyi arimo gusuma intoryi mu murima wiwe, ubona ko ari intoryi zimere neza, akaba ari buzijyane ku isoko kugira ngo ahabwe amafaranga ndetse akaza no gukuramo umusaruro uhagije.

Umurima munini uhinzwemo amoko y'ibihingwa bitandukanye, birimo amateke ndetse hakaba harimo n'ipapayi, byose byifashishwa hirindwa indwara zitandukanye, ni byiza kubibungabunga kubera ko ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu.

Umupapa uri kumwe n'abana biwe babiri ukaba bari gusoroma inyanya ziza kwifashishwa mu rugo bateka ndetse zimwe zikanajyanwa ku isoko kugira ngo zigurishwe, ni byiza guhinga imyanya kuko ni ingenzi.

Umurima munini uhinzwemo pavuro abona ko zisa neza, ndetse zikana zarashyizweho ifumbire kugira ngo umusaruro wiyongere, ni byiza gushyira ifumbire ku myaka yacu, kubera ko ni ingirakamaro.

Isoko ricururizwamo ibirungo, harimo karoti, pinari, ndetse n'intoryi, byose bikaba byifashishwa mu rugo hategurwa amafunguro kugira ngo abantu barye amafunguro ateguye neza, ni byiza kurya imboga n'imbuto kubera ko ni ingirakamaro ku buzima bwacu.

Umurima munini uhinzwemo inyanya ubona ko zisa neza, hakaba hakaba harimo umugabo uri kumwe n'umwana mutoya, barimo kuzibagarira kugira ngo zikure neza bityo zizatange umusaruro uhagije.

Umurima urimo indimu, zikaba ari indimu zimeze neza ubona ko bashyizeho ifumbire ihagije, bityo zikaba zizatanga umusaruro. Ni byiza kwita ku mirima yacu, ndetse tukita no ku myaka birimo kugira ngo bizagirire umumaro.

Umurima uhinzemo intoryi, hakaba harimo umugabo, arimo arareba ukuntu intoryi zagiyeho ari kubona ari nyinshi, kubera kuzishyiraho ifumbire, bityo intoryi zikaba ziyongereye.

Umurima uhinzwemo inyanya, ubona ko zimeze neza ndetse zikaba zarashyizweho ifumbire, hakaba harimo umugabo ndetse n'umwana, bakaba bari kuzibagarira neza, kugira ngo zikure ndetse zizatange umusaruro uhagije.

Umurima uhinzwemo ibinyomoro ubona ko bisa neza, byashyizweho umuti ndetse n'ifumbire kugira ngo umusaruro wiyongere.

Umurima munini uhinzwemo karoti, ndetse hakaba harimo n'ibigori, byose bikaba byifashishwa mu rugo ndetse bakanabijyana ku isoko kugira ngo bitange umusaruro uhagije, bibahe no ku mafaranga, bityo abaturage bakomeze kubaho mu buzima bwiza.

Mu umurima uhizwemo amoko y'ibyatsi atandukanye yifashishwa hakorwamo umuti ukoreshwa kwa muganga havurwa uburwayi, ukaba ari umunti wizehe kandi uvura neza.

Umubyeyi uri mu murima uhizemo intoryi, akaba ari bamu intoryi agiye kujyana ku isoko kugira ngo amenye umusaruro abonyemo bityo abonemo amafaranga.

Umurima munini uhinzemo ibinyomoro, aho ubona ko bimeze neza ndetse bikaba byarashyizweho ifumbire ihagije kugira ngo bizatange umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Umurima munini uhinzemo inyanya ubona ko zimeze neza, hakaba harimo umusaza uhetse ipombe, akaba ari guteramo umuti kugira ngo yice udukoko maze bizatange umusaruro uhagije.

Umurima uhinzwemo intoryi, aho hari umugabo uri muri uwo murima, arimo arareba uko intoryi zingana kugira ngo abone uko azisoroma maze azijyane ku isoko, bityo abone umusaruro uhagije.

Ubwoko bw'imiti y'ibyatsi, harimo tungurusumu, ndetse n'ibindi byatsi, bikaba bihinzwe mu murima munini, byose bikaba byifashishwa hakorwamo umuti uzwi nk'umuti gakondo ukoreshwa kwa muganga havurwa abarwayi, ukaba ari umuti ukora neza kandi wizewe.

Urujya n'uruza bw'abaturage, barimo baravomerera imyaka yabo bakoresheje amazi kugira ngo umere neza, bityo bazabone umusaruro uhagije.

Umurima munini uhinzwemo ibinyomoro. Aho harimo umugabo arimo yikingiririza, Ukuntu ibi binyomoro bimeze neza, abona ko byahawe ifumbire ihagije, ndetse bikatanga umusaruro uhagije.

Umurima uhinzwemo ibishyimbo ubona ko bimeze neza byateweho ifumbire, hakaba harimo umugore, urimo kuvomerera, akoresheje amazi ndetse n'indobo, kugira ngo ibishyimbo bikomeze gukura neza, bityo bitange umusaruro uhagije.

Umurima uhinzemo intoryi, hakaba harimo umugabo urimo kuzivomerera kugira ngo zikure neza ndetse akanazishyiraho ifumbire kugira ngo zizatange umusaruro uhagije.

Umurima uhinzwemo imbuto, hakaba harimo abagabo babiri, bafite umupira urimo amazi, bakaba bari kuvomerera imbuto zabo, kugira ngo zikure neza, mbese bizabahe n'umusaruro uhagije.

Igishanga gihinzwemo umuceri ubona ko ari umuceri mwiza, ndetse ukaba waratewemo ifumbire kugira ngo umusaruro wiyongere. Ni byiza gutera ifumbire mu myaka yacu kubera ko ni ingirakamaro.

Umurima munini uhinzwemo imyaka, ubona ko imeze neza, bigaragara ko yateweho ifumbire. Bityo ikazatanga umusaruro uhagije. Ni byiza gutera ifumbire mu myaka yacu, kubera ko ari ingirakamaro.

Umurima munini uhinzwemo ishyamba ndetse hakaba harimo n'umuceri, ubona ko bimeze neza ndetse bikaba byaratewemo ifumbire, kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Umurima munini uhinzemo umuceri, hakaba harimo umubyeyi ubona ko ari guteramo ifumbire kugira ngo umusaruro uziyongerare, ni byiza gutera ifumbire mu myaka yacu kubera ko byongera umusaruro.

Umurima munini uhinzwemo imyaka itandukanye, ndetse hakaba harimo n'amaterasi yifashishwa kugira ngo hirindwe isuri, bityo umusaruro wiyongere.

Umurima uhinzwemo umuceri, ubona uko umeze neza watejwe ifumbire bityo ukazongera umusaruro, ni byiza kwita ku myaka yacu kubera ko byongera umusaruro bityo ubukungu bukiyongera.

Umurima munini uhizwemo imyakaka, ndetse hakurya hakaba n'ishyamba, bityo rikaba rimeze neza, ubona ko ryateweho umuti ndetse rikaba ryitaweho, ni byiza kwita ku mashyamba kubera ko aduhereza umwuka wo guhumeka, ndetse tugakomeza kubaho neza.

Urujya n'uruza rw'abagore, abagabo ndetse n'abana bafite amatungo, baje kuyateza imiti kugira ngo akure afite ubuzima bwiza, bityo ubworozi bukomeza gukwira ku isi hose.

Umubyeyi n'umwana mutoya bari guhereza ihene ubwatsi, kugira ngo ikure neza ndetse inakomeze kugira ubuzima bwiza, ni byiza kwita ku matungo yacu kubera ko ni ingirakamaro.

Umurima munini urimo ibyatsi, aho ihene zirimo kurisha ibyatsi kugira zikure neza, ikaba ari ihene zimeze neza, ubona ko zatanga umusaruro.

Umupapa urimo gutera umuti ihene y'iwe kugira ngo ayikingire ndetse anayirinde indwara maze ikure neza bityo izamwongerere umusaruro. Ni byiza gukingira amatungo yacu kubera ko ni ingirakamaro.

Umurima munini uhinzwemo ibigori, ubona ko ari ibigori byiza ndetse bikaba byaratanze umusaruro, bityo ubukungu bugakomeza kuzamurwa.

Umurima munini uhinzwemo ibigori ndetse n'ibindi, bikaba bihinzwe ahegereye amazi kugira ngo byere neza maze haboneke umusaruro uhagije.

Urujya n'uruza rw'abaturage barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bitwaje ibikoresho, barimo kuvomerera imbuto zabo kugira ngo zikure neza ndetse bazabone n'umusaruro uhagije, ni byiza kwita ku mbuto zacu kubera ko ni ingirakamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abasore, bakaba bari mu isoko rusange aho hacururizwa imbuto, harimo karoti, intoryi ndetse n'ibitunguru, imyumbati, byose bikaba bikoreshwa mu rugo kugira ngo hirindwe inzara.

Ibigori byinshi byanitse ahantu ku biti kugira ngo byumve neza maze bakoremo ifu ndetse hazavemo n'imbuto izifashishwa mu gutera imyaka, ni byiza kubika neza imbuto zacu kubera ko ni ingirakamaro.

Amoko y'ibihingwa by'igigu byifashishwa amagambogambo umbayere abatanyi n'abayumba abantu kubera indwara z'ababi ndetse n'abakurikirana abasakorwamo umucyoko'umu bwegomba gutananirwa kandi akavura.